Abantu babiri bambaye imipira y'ubururu umugore niwe wambaye'uburu na amarinete, yegeranye n'umugabo wambaye umupira w'ubururu n'amarinete, yegeranye n'ushinzwe umutekano w'u Rwanda w'umupolisi bakigerana n'abandi babiri bambaye imipira y'umweru yego.

Ameza ariho amafunguro atandukanye y'ubwoko bwose n'ibiribwa by'ubwoko bwose imigati hariho n'ibyokunywa n'ibirisho byabyo n'ibyo birishwa.

Resitora irimo amatara, ifite amameza abantu bicaraho, bakajya gufata amafunguro, yego bafungura muri resitora.